Abagabo kenshi nibo bazwiho kugira imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo gutera imiti cyane cyane ibihingwa birimo nk'umuceri, kugira ngo ibyonnyi bibisagarira byose bikurweho burundu.

Abahinzi ba kinyamwuga batera imiti imyaka yabo cyane cyane nk'umuceri mu gihe bitegura kuwusarura ndetse igihe babonye ko hari udukoko tuyugarije kugira ngo birinde ibihombo.

Umugabo ufite ipombo ndetse wambaye n'imyenda yabugenewe ijya gusa nk'umukara ari gutera umuti kandi avuga ko uwo muti ari gutera imyaka ye ufite ubushobozi bwo guhangana n'udukoko.

Birakwiye ko haterwa imiti mu bihingwa cyane cyane byiganjemo ibirayi kuko igihe bidakozwe bityo, iyi mbuto yibasirwa n'icyo twita nka cyumya, aho ibibabi byabyo byuma kandi bitari byera.

Udupira cyane cyane dutwara imiti y'amatungo, biba byiza igihe dupfundikiwe neza mu buryo bwo kwirinda ko umuti wazameneka ahantu aho ariho hose.

Abadamu nabo bafashe iya mbere mu burobyi bukorerwa mu kiyaga cya Kivu, aho mbere byabaga ari ikizira bitewe n'uko umugore atahabwaga ijambo.

Abagabo babiri bari kwerekera abayobozi bashyashya uburyo ki inshundura ikora igihe bari kuroba kuko ngo ifata amafi menshi cyane ugereranyije no gukoresha indobani.

Umusaruro ukomoka ku mafi nawo uri mu biri gutuma iterambere rizamuka ndetse n'umusaruro mbumbe w'Igihugu ukagira impinduka, cyane mu bigendanye na gahunda zo kwita ku mirire.

Ibyuzi by'amafi ni ngombwa ko bishyirwamo ibiryo bitandukanye byayo kugira ngo igihe ashonje aze abirye kuko iyo bidakozwe bityo arapfa kandi bigateza igihombo ku bantu bakora ubworozi bwayo.

Amafi manini, aya ngaya azwi nk'Inshonzi ndetse na Tirapiya, hari igihe akenshi atanga umusaruro bitewe nuko igihe yagaburiwe neza ibiryo byayo, agira akamaro kenshi.

Abaturage, bakora ibikorwa by'uburozi, mu karere ka rusizi, baravuga yuko, umusaruro uva mu mafi, ushobora kubarihirira abana amashuri, ndetse nabo bakaba bakiteza imbere.

Abagabo babiri bari kuroba ndetse ubwoko bw'amafi bari kuroba buragaragara ko bukuze bitewe n'igihe bamaze barabujijwe kujya muri ayo mazi, kuko amafi atatare yagakuru.

Ubworozi bw'amafi bukomeje kugira icyo butanga ku musaruro w'igihugu, kubera ko igihe umuntu ahisemo gukora iki gikorwa aba ateje imbere imirire myiza mu gihugu.

Umubyeyi uri mu kigero k'imyaka mirongo itanu n'itanu, aravuga yuko yahinze kawa kuva muri mirongo itandatu na rimwe, aho icyo gihe bazisaruraga ubundi bakazibika gusa batazi akamaro kazo.

Ikawa y'u Rwanda ikomeje guca agahigo bitewe nuko abantu bayigana ndetse bakanasobanurirwa amateka yayo, bavuga yuko ifite akamaro gahambaye cyane.

Abadamu babiri ndetse n'umugabo umwe, bari mu gishanga cya Bugarama gihinga umuceri, bari guhabwa amahugurwa y'uburyo bazajya bita ku muceri wabo mu rwego rwo kwirinda ibihomba.

Umubyeyi uzi akamaro ka kawa; ari kuyisarura kandi anatanga inama ku bantu bose bayikerensa bavuga yuko abayikora ari abasazi cyangwa babuze ibyo bakora.

Guteza imbere isarurwa rya kawa y'u Rwanda ni ngombwa y'uko bikorwa kinyamwuga, bitewe n'uko iki gihingwa gikomeje gutanga amafaranga atari make ku bukungu bw’u Rwanda.

Ubuhinzi bwa kawa, ni bwiza cyane bitewe n'uko abanyarwanda bakomeje gushishikarizwa gushyiramo ingufu, mu kongera umusaruro wayo, bitewe n'uko benshi bayifata nk'ibatunze.

Abahinzi bahinga umusaruro ukomoka kuri kawa, barataka igihombo gikomeye baherutse guhura nacyo muri iki gihembwe kihinga, muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu.

Abakora ubuhinzi b'umusaruro w'icyayi mu karere ka Nyamasheke, baravuga ko uhereye muri bibiri na makumyabiri kugera muri uyu mwaka turimo, ubuzima bwabo bwahindutse cyane bitewe no gukora kijyambere.

Mu guhinga igihingwa ngengabukungu kizwi cyane cyane mu Rwanda nk'ikawa birakwiye ko gisasirwa ndetse hagashyirwaho n'ibyapa bigenda bigaragaza ubwoko bw'ibyo bihingwa uko bihingwa.

Imishwi y'inkoko, igiye itandukanye irenga ibihumbi magana abiri, mu nganda zifasha kuyituraga, abagabo batatu, bari gukora amasuko ahantu hose iherereye.

Inkoko zikwiye kwitabwaho nazo, ku buryo zigira ubuzima bwiza, yaba aho zirira, aho ziryama, ndetse naho zinywera, ubundi nazo zigatanga umusaruro zivuye inyuma.

Abezoro ni ubwoko bw'imiti y'amatungo cyane cyane ihene n'intama, ikunze kuyafasha gukura neza ndetse ikayongerera amavitamini.

Uburyo bwiza bwo gukorera indabo ndetse no gufungura ibyuma hifashishwa ipensi mu buryo bwo kugira ngo bifate kandi bibe bifite ireme ryiza.

Ibiryo by'amatungo magufi biri mu biteza imbere umukamo ndetse n'umusaruro w'ibikomoka ku matungo nk'amagi, kuko igihe amatungo yabiriye arushaho kongera umusaruro awuturukaho.

Ibiryo by'amatungo nabyo ni ikibazo, bitewe nuko ahantu bikorerwa bitaba byizewe, kuko bahisemo kubikorera mu Rwanda icyo akaba aricyo cyatumye imisoro yiyongera.

Inzu zicururizwamo imiti y'amatungo ni ngombwa y'uko zigomba gushyirwa ahantu hitaruye izigurisha imyaka, bitewe n'uko ishobora kwihuza abantu bakaba bakwandura ndetse bakaba banapfa.

Amata y'ifu akomoka ku matungo ari guhabwa abana kugira ngo bazabashe kugira imibereho myiza ndetse bakure nta gushidikanya ko barwara indwara zituruka ku mirire mibi.

Abahinzi b'amashu harimo abagore ndetse n'abandi bakiri batoya, bavuga yuko igihe basasiye amashu yabo ari bwo umusaruro wiyongera.

Abaturage batishoboye bo mu karere ka Nyagatare bitewe n'ubwitange bagize bahawe ishimwe ry'amatungo magufi azwi nk'ingurube azabafasha mu kwiteza imbere.

Igihe umuntu atemye igiti kimwe aba agomba gutera bibiri, ni ngombwa ko udasiga ahantu uhangije nk'uko wagenderaho ugomba kumenya ikintu ugomba kwisigamo kandi kizagirira ubuzima abantu.

Guhinga amasaka nabyo ni byiza bitewe n'uko inzoga zose ndetse n'indi mitsima itandukanye igirwamo uruhare n'igihingwa cy'amasaka. Muri urwo rwego buri wese akangurirwa guhinga amasaka igihe hagezweyo igihe cyayo.

Abahinzi b'ibigori bahinga mu gishanga cya Bugarama, barataka igirombo batewe n'izuba ryavuye iki gihembwe cy'ihinga rikangiza ibigori byabo, bakaba bazicwa n'inzara.

Ikibaya gihambaye mu karere ka Rubavu, biravugwa yuko gikomeje gutanga ikizere bitewe n'uko gihinzwemo ibigori ndetse bikaba bitanga icyizere cy'uko bizagira umusaruro mwiza.

Abakora ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Nyandungu, bavuga ko byoroshye kubera ko gutumiza umuceri mu mahanga batakibikozwa bitewe n'impamvu runaka.

Gutwika ibiti ndetse n'ibindi bisigazwa by'imyaka mu bishanga, ni imwe mu mpamvu ituma leta y'u Rwanda ivuga ko itagakwiye kubaho abantu bahumanya ikirere.

Gutwika bimwe mu bisigazwa bituruka ku muceri birimo nk'ibiti byawo, ni ngombwa kuko bituma ibi bintu na byo bibyara ifumbire, yifashishwa mu guhinga undi muceri w'ubutaha.

Ikiyaga cya Cyohoha ,gikikijwe n'ubuso bw'ubutaka bukoreshwa mu kubyaza umusaruro ibikomoka ku bigori harimo n'uruganda rwa kawunga ndetse n'amashaza.

Inyanya, korogate ndetse n'amavuta atandukanye ni byo bigurishirizwa mu muhanda igihe abantu bari kubicuruza, bihutira kumenyesha ababikeneye ko babafitiye igabanyirizwa ry'ibiciro.

Kugira akarima k'igikoni mu rugo, mu Rwanda bimeze nk'itegeko bitewe n'uko abanyarwanda bose basobanuye icyiza cyabyo ndetse n'umumaro wo kugira akarima k'igikoni.

Uruyozi ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu bitewe n'uko ibinyampeke birugize, bituma amaraso atembera neza mu mubiri ndetse akanasukura imyanda yose, iri mu mubiri.

Imboga rwatsi zikomeje guca agahigo mu kugira intungamubiri z'indengakamere cyane cyane igihe zitogoshejwe, ubundi ntizihishwe neza kuko ziza ku mwanya wa mbere mu kurinda indwara ndetse no kugira vitamine.

Gutera ibiti bivangwa n'imyaka mbese bimwe byiganjemo iby'imbuto nk'amapapayi, ni ngombwa cyane ko bishyirwamo ingufu kuko abantu babikoresha ndetse babitera bafite ubuzima bwiza.

Abaturage bavuga yuko batewe n'ibyonnyi karahabutaka byaje bibonera ibigori, ubu ku buryo bari gutaka igihombo bazagira iki gihembwe k'ihinga bitewe n'ibyo biburagasani.

Ibi bihingwa birimo icyayi ndetse n'ibindi bifite amababi matoya nka sereri bibereye ahantu hari igishanga bitewe n'uburyo haba hameze hatari ubuhaname burebure kugira ngo bipfe.

Gutera ibinyampeke byiganjemo cyane ibishyimbo ni ngombwa kuko biza ku isonga mu guhangana n'ikibazo k'imirire mibi harimo nka bwaki ndetse n'izindi ndwara z'abana.

Bimwe mu biribwa bihingwa mu karere ka Nyagatare harimo umuceri ndetse n'ibigori. Ibi bikaba bikomeje kuba ubukombe mu guhaza, ndetse no guteza imbere abaturage baho.

Ishyamba rya Nyungwe rikomeje guca agahigo mu ishyamba kimeza ryabumbabunzwe kandi rikaba rifite n'urusobe rwinshi rw'ibinyabuzima, harimo inyoni, ibikururanda ndetse n'izindi nyamaswa.

Uko abanyarwanda benshi bagiye basobanurirwa akamaro ko gutera ibiti byinshi ndetse na gahunda yo gutema kimwe ugatera bibiri, buri tariki ngarukakwezi, abaturage bahurira ahantu runaka ubundi bagatera ibiti.

Gutera ibiti bikikije amazu ahantu mu giturage ni ngombwa kuko igihe babaye benshi bakenera umwuka, wo guhumeka kandi usukuye kandi igihe bidakozwe bityo bashobora guhura n'ingorane z'ubuzima.

Muri gahunda yo guteza imbere ubuhinzi bw'amashyamba hashyizweho urugendo rwo gutembera ishyamba ryegereye parike y'Igihugu y'Akagera kugira ngo harebwe niba hakongerwamo ibiti.

Hoteli iri muri eshanu za mbere zihenze mu Gihugu cy'u Rwanda, hari iyubatswe mu karere ka Musanze, yubatswe mu buryo bwa kinyarwanda, aho kuraramo ijoro rimwe bishyura arenga miliyoni eshanu.

Imbuto y'ibigori igihe ihinzwe ahantu mu gishanga, mbese hatari imisozi miremire, bituma yera neza kandi abaturage bagasarura umusaruro mwiza.

Mu rwego rwo guteza imbere amashyamba ndetse no kwirinda ko habaho kuyarandura burundu, hakomeje gushyirwamo imbaraga ku bantu bose bifuza gufasha Leta y'u Rwanda muri iki gikorwa cyo gutera ibiti byinshi.

Ntabwo ari byiza na gato gutema ishyamba ukarimaraho kuko icyo gihe iyo ritemye, abantu babura umwuka bahumeka, inyamaswa zikaba iyo ziba, mbese bigateza ikibazo gikomeye.

Mu gutema ndetse no gutera amashyamba, hari ahantu nyaburanga hubatswe hoteli y'ikitegererezo mu Karere ka Musanze, aho bivugwa yuko byibura buri kwezi yinjiza amadovize asaga miliyoni ijana.

Ni byiza ko hashyirwaho ingamba zo guhana umuntu wese ushaka gutema ibiti, akihutira kubyubakisha ndetse no kubigurisha kuko bitera isuri ndetse abantu bagahumeka umu utari mwiza.

Guhinga ibihingwa by'imbuto birimo nk'inanasi bifasha ba nyira byo ndetse n'Igihugu guteza imbere igikorwa k'imirire myiza.

Abacuruzi biganjemo igitsina gore ni bo usangakenshi bari mu masoko, bari kugurisha imbuto harimo nk'inyanya, amashu ndetse n'ibindi.

Ahagurishirizwa indabo zikoreshwa nk'imitako bivugwa yuko aha hantu bahenda cyane bitewe n'uko ururabo rumwe barugurisha amafaranga atari munsi y'ibihumbi makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Imbuto nyinshi zirimo amacunga ndetse na karoti n'ibindi byose bifasha umubiri kuwurinda indwara, birakwiye ko buri wese afata nibura bibiri muri byo kugira agire ubuzima bwiza.

Abakora ubuhinzi bw'imbuto mu karere Nyagatare bavuga ko igihingwa cy'amatunda gikomeje kubabyarira inyungu zihambaye kuko ubu ngubu ikiro k'itunda gikomeje kuzamura ibiciro byacyo.

Mu buhinzi bw'ipapayi nabwo buri bushyirwamo imbaraga kuko havumbuye ko hari indwara nyinshi ipapayi ishobora kuvura ubuzima bwa muntu, harimo n'indwara y'umwijima ndetse n'ibihaha.

Mu buhinzi bw'imbuto, umuhinzi kabuhariwe ukora icyo gikorwa, yaburiye abantu bavuga yuko kigayitse kandi giciriritse ndetse anabizeza kuzakorera hamwe kugeza bageze ku cyo bifuza.

Abakora ubuhinzi bw'insinda baravuga ko na bo bakomeje kwiteza imbere kuko izi nsinda zabo zikomeje koherezwa mu mahanga, ubundi zigakoreshwa mu bintu bijyanye n'ibirungo ndetse n'ibindi.

Abahinzi b'indabyo mu Rwanda bavuga yuko na bo batasigajwe inyuma, bitewe nuko babona amafaranga aturutsemo kuko na bo ibyo baba bakora bifitiye akamaro Igihugu ndetse na bo muri rusange bibafitiye umumaro.

Inyanya igihe zihinzwe ndetse mu buryo bwa kijyambere, zitanga ikizere cy'uko nta muntu ushobora kurwara indwara bitewe nuko yabuze vitamine kuko ziba zahinganywe ubwitonzi ndetse zigashyirwaho n'amafumbire.

Mu guhinga imbuto cyane cyane kokombure n'inyanya biba byiza igihe habayeho kubyuhira ndetse bikanaterwa imiti yica udukoko ku gihehe kuko igihe bidakozwe bityo bishobora guteza igihombo ba nyirazo.

Igihe uri gutunganya imbuto ndetse n'indabyo hari ibyo ugomba kwitondera kuko igi uzisaromye nabi biravuna cyane kugira ngo zigarure ubwiza zari zifite.

Umuhinzi w'imbuto z'amatunda aravuga yuko ibintu byo guhinga kijyambere uyu musaruro w'imbuto byamuhinduriye ubuzima kandi akaba nta kintu yicuza na kimwe.

Icyayi igihe gitewe ku murongo bituma n'abantu bacyuhira biborohera, kuko igihe bakanze buto nibura imwe amazi ahita yuzura hegitari zisaga ibihumbi bibiri.

Uburyo bwo kuhira imyaka, ni ngombwa kwifashisha ibikoresho byabugenewe, harimo imipira ndetse na moteri zifasha kuzamura amazi, ndetse zikanayakwiza mu myaka.

Igihe ufite ubushobozi bwo kuhira imyaka yawe. Igihe icyo aricyo cyose yaba mu mvura cyangwa mu mpeshyi. Ntakabuza umusaruro uraboneka kandi ukiyongera. Bitandukanye na kera ubwo bakoreshaga ibase.

Abakora ubuhinzi burimo icyayi bavuga ko bashyiriweho uburyo bwiza bwo kuhira imyaka yabo bakoresheje ifumbire ndetse n'imborera bigatuma umusaruro wiyongera.

Abuhira imyaka yabo cyane cyane pavuro, inyanya ndetse n'ibindi, bavuga yuko bakomeje kubona umusaruro, bitewe n'uko bari gukoresha uburyo bwa kijyambere.

Abakora ibikorwa by'ubuhinzi mu kibaya kinini mu karere ka Rubavu bakomeje gutaka igihombo batewe nuko izuba ryabaye ryinshi.

Ikiyaga cya Muhazi na cyo gifite imigezi igiye igishamikiyeho, kubera ko abantu bahaturiye bakoresha aya mazi mu kuhira imyaka yabo, irimo amashu ndetse n'intoryi.

Abakora ibikorwa by'ubuhinzi baravuga yuko igishanga giherereye mu karere ka Nyagatare, gikomeje kubaha umusaruro bifuza, bitewe n'uko bayobotse uburyo bwa kijyambere bwo guhinga.

Si byiza ko ahantu hari ibirunga cyangwa se ikindi kintu gishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga, ko haturwa n'abantu kuko bashobora kuhatakariza ubuzima, igihe nta muntu wabagiriye inama.

Abaturiye igishanga cya mucyamu muri Nyabubare baravuga ko hakomeje gutera ubucucike bw'abantu baza kuhatura kuko ubundi mbere ntabari bahari.

Uruganda rw'icyayi, ruherereye muri Nyabihu, narwo ruri mu zitanga ikizere, mu kuzamura umusaruro w'icyayi, kuko buri wese wifuza icyayi cy'u Rwanda, agana uru ruganda rukamuha igabanyirizwa ry'ibiciro.

Ahantu hari imisozi migufiya cyane cyane mu gace k'Uburasirazuba bw'u Rwanda, mu Karere ka Nyagatare, hakunzwe guhingwa umuceri cyane bitewe n'uko iki gihingwa kihakunda cyane.

Mu gishanga kinini kiri muri Rusizi, abahinzi bagikoresha bavuga ko cyabahinduriye ubuzima bitewe n'umusaruro w'umuceri uri hejuru bakuramo.

Mu gikorwa ngarukakwezi, kizwi cyane nk'umuganda rusange, abaturage bo mu Karere ka Nyagatare, bateye ibiti mu rwego rwo kugira ngo hajye haboneka umwuka mwiza abaturage bahumeka.

Gutera ibihingwa birimo n'urutoki ahantu hagutse ndetse hatari imisozi miremire na byo byagaragaje ko bituma umusaruro wiyongera.

Inka z'inkungu mbese zitagira amahembe, igihe zororewe ahantu heza ndetse zikitabwaho cyane, nibwo zitanga umusaruro kuruta izindi zose.

Ihene nyinshi zikunze gutanga umusaruro bitewe nuko igihe zororotse, zitanga amafaranga ku bantu bazorora.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere, biba byiza igihe zishyiriweho uburyo zizajya zinywa amazi nyuma yo kugaburirwa bimwe mu biryo bikorerwa mu nganda kuko bizifasha kubaho neza kandi zikororoka.

Inka za kinyarwanda usanga zigira uruhu rwiza mu gihe zitaweho zigashyirwa ahantu zibona ubwatsi zikarya zigahaga aho mu gihe k'itumba ngo zima cyane bityo umukamo ukiyongera.

Korora inka mu buryo bwa kijyambere bizifasha gukura neza kandi zigatanga umusaruro, bitewe n'uko nta kiba kizibangamira mu myororokere ndetse no kwitabwaho kwazo.

Ihene nyinshi zirimo iz'umweru biravugwa y'uko zishobora gutanga ubwoya bugurishwa ndetse bugakurwamo ibindi bintu bitandukanye mu mahanga.

Inka zitanga umukamo biravugwa yuko zigomba gushyirwamo ingufu mu kuzorora ndetse zihabwa n'ibyo zikeneye kugira ngo umusaruro wazo utagabanyuka.

Mu bworozi bw'amatungo magufiya nk'inkwavu cyane cyane hakwiye kwitwa ku buryo zibamo bitewe n'uko igihe zititaweho zirwara indwara bita amajanja zikaba zapfa zose.

Imashini zirimo izisya ndetse n'izindi zifasha abantu kwinjiza ibicuruzwa byabo imbere mu gihugu, zireba ko nta bintu byateza umutekano muke birimo, nazo zaje.

Intama nayo ishobora gutuma abana babaho neza kuko igihe warwaye bwaki ugirwa inama yo kwifashisha amashunushunu cyangwa amatamatama y'amatungo magufi.

Ihene ntoya zirisha ubwatsi mu bishanga, biragaragara ko ziri gutanga umukamo ku bana barwaye bwaki kuko igihe bahawe amashunushunu yazo, babafasha kuzahura ubuzima bwabo.

Inyana zitandukanye, bibura gihe gitoya ngo zime, biravugwa yuko imwe ishobora kugurwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi magana ane bitewe n'uko ngo zitanga umusaruro uri hejuru cyane.

Inka ziganjemo Inyambo ni zo zakoreshwaga kera nk'ikimenyetso kerekana ko u Rwanda rworoye kandi rutengamaye.

Kugaburira inkoko za kijyambere ibiryo byazo byabugenewe, bitanga umusaruro uri hejuru ugereranyije n'inkoko zisanzwe zibarizwa mu cyaro.

Inka y'impfirizoni igihe igiye ahantu heza kandi hatuje ndetse ikitabwaho cyane, bivugwa yuko umusaruro wayo ushobora kwiyongera.

Amatungo magufi arimo ingurube ndetse n'ayandi, bivugwa y'uko yororoka cyane bitewe n'uko umusaruro wayo ugenda wiyongera, aho itungo rimwe rishobora kubwagura ibyana byayo bigera muri bitanu.

Kuhira inka amazi arimo umunyu ndetse n'amamininwa aturuka mu bishyimbo bihiye igihe iri gukama byongera amata menshi ndetse ba nyirayo bakaba bagira ubuzima bwiza.

Amatungo magufi azwiho kororoka cyane, aya matungo arimo nk'inkoko, ihene ndetse n'ingurube, aho akabenzi kaza ku mwanya wa mbere, mu gutanga umusaruro mu gihe gito.

Gushyira indabyo mu bihuho ubundi zikagurishwa nibyo byorohera abantu baje bazishaka bitewe n'uko ari bwo zitwararika neza.

Muri gahunda yo guteza imbere ibihingwa birimo na kawa, ni ngombwa ko hagenda habibwa imbuto zifite umusaruro kugira ngo zizakure neza.

Mu gusarura umuceri biba ngombwa ko ujyanwa ku ruganda kugira ngo utonorwe ndetse babashe no kuwutunganya mu buryo bwiza, ibi bikaba aribyo bituma babanza kuyipakira mu mifuka minini cyane kugira ngo itwarwe biboroheye.

Mu gutera urubuto kugira ngo rumere ni ngombwa ko urutonora, ubundi ukarushyira mu butaka ugategereza igihe kingana nibura n'icyumweru ruba, rwabashije kuzamuka.

Kubiba ndetse no gutera imbuto ni igikorwa cyiza kandi gishimishije bitewe n'uko igihe umuhinzi ari gusarura yibagirwa imvune zose yagiye agira.

ibishyimbo, amageri ndetse n'ibindi binyampeke nibyo abacuruzi bo mu isoko rya Kimihurura bavuga ko byabateje ibihombo, bitewe no kubura abakiriya babigura.

Imbuto y'ibishyimbo by'inyongeramusaruro biravuga y'uko yera cyane cyane mu Karere ka Nyagatare bitewe n'uko abayihinga babitangamo ubuhamya.

Byinshi birimo guteza imbere ubworozi mu Rwanda, hari no gukata amahembe y'inyamaswa ndetse no kuzifasha kubaho neza, harimo no kuzikona kugira ngo zizamuke.

Gutera inka intanga byagize uruhare runini mu gutuma abantu bifuza umukamo uturuka ku matungo biyongera ndetse n'abana babonye amata meza kandi ku gihe.

Gukingiza imbwa ibisazi byazo ni imwe muri serivise itangirwa ubuntu mu Rwanda bitewe nuko igihe bitakozwe neza bishobora kuviramo urupfu umuntu wese warumwe n'iyo mbwa.

Uburyo bwashyizweho bwo gutera inka intanga bwongereye umusaruro w'ibikomoka ku mata kuko inka zose zabashije kwima ndetse zigirira umumaro ba nyirazo.

Abaganga b'amatungo bagomba kuba bambaye impuzankana ibaranga harimo ingofero ndetse n'itaburiya y'umweru, murwego rwo kugira ngo batandukane n'abandi bantu.

Abaganga babiri, ndetse babihuguriwe, bateraniye mu gikorwa, cyo gukingira inka, ndetse bivugwa yuko bari bunayitere intanga bitewe n'uko yanze kwima.

Igikorwa cyo gutera inka intanga cyagiye gishyirwamo ingufu bitewe n'uko byagaragaraga ko umubare munini w'amatungo utakibangurizwa ngo wime, ibyo bigatuma Leta ihomba ndetse n'abaturage bagahomba.

Abagabo babiri ndetse bari mu inzu bari gukingira imbwa kandi nyuma yaho baravuga yuko bitazongera kubaho ko yagira ibisazi bituma irya abantu.

Abavuzi b'amatungo, aba bazwi nka ba vetereneri, bari gushyirwamo ingufu, bitewe n'uko na bo bagira uruhare runini, mu kwihutisha iterambere ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Kugaburira imbwa ntabwo byari bizwi cyane n'abantu benshi bitewe n'uko bari bazi ko zijya guhiga, ariko mu gihe ziri kororerwa mu rugo ni ngombwa ko nazo zigaburirwa.

Ingurube y'umweru igihe ihuye n'uburwayi bw'ibyorezo runaka, ishobora guhita ipfa bitewe nuko ubudahangarwa bwayo bw'umubiri buba buri hasi cyane ugereranyije n'ingurube y'umukara.

Hari ibisimba bikakaye ndetse biteye ubwoba buri wese akwiye kwitondera harimo n'igisamagwe bitewe n'uko izi nyamaswa zigira ubukana kandi nta zindi zishobora kuzisukira ngo bibe ibyarwana.

Inyamaswa z'agasozi nazo zikomeje gukurura abakerarugendo benshi muri parike y'igihugu y'Akagera, kuko baza barangajwe imbere no kuzisura ngo barebe uburyo zibayeho.

Inyamaswa zirimo isha na zo zikomeje gukurura ba mukerarugendo benshi, muri parike y'Igihugu y'Akagera cyane cyane bitewe nuko mu gihe cy'impeshyi ziba zifite uburanga.

Bitewe n'uko hamenyerewe ko intare, ndetse n'ibindi bisimba by'inkazi ari byo bishobora kuturira, ariko icyo ni ukubeshya kuko ingwe ishobora kora igiti, ndetse ikaba yanasinzira kandi ntigwe.

Hari ubwoko butandukanye bw'inyamaswa muri pariki y'Igihugu y'Akagera, aho harimo ubusa nk'imbogo, kandi nanone wakwitegereza ugasanga atariyo, ubu bukaba bukomeje gukurura ba mukerarugendo.

Hari benshi batanga amafaranga yabo bagira ngo bajye, gusura zimwe mu nyamaswa harimo nk'ingwe, muri parike y'igihugu y'akagera, ubundi abandi bakajya hanze yazo kugira ngo barebe n'ingagi.

Ibisimba binini by'agasozi birimo, Agasumbashyamba, Imvubu, Intare, ndetse n'Ingwe, nibyo ushobora gusanga muri parike y'igihugu, y'akagera.

Parike y'igihugu y'akagera, hari bamwe bavuga ko inyamaswa zirimo nk'inkende ndetse n'ibitera, ziyitoroka ubundi zikajya ku bigo by'amashuri biyikikije kugira ngo zihabonere ibyo kurya.

Ibinyoni bipfuye ndetse n'ibisiga bivugwa yuko bishobora kuzateza ikibazo cyuko zizagabanyuka bitewe nuko imiti abaturage batera ku myaka ikomeje gukaza ubukana bwayo.

Tumwe mu tunyamaswa tw'agasozi twitwa ihene z'agasozi bikomeje kuvugwa ko dukomeje kubura irengero ariko kuri ubu ngubu mu Kagera uratuhasanga ndetse twinshi.

Ibisimba bikomeye cyane birimo n'impyisi ubushakashatsi bugaragara ko bizazima mu myaka magana tanu iri imbere bitewe nuko biri guhigwa bukware ngo byicwe.

Bimwe mu bikurura ba mukerarugendo ni inkende ziri muri pariki ya Nyungwe kuko zo zifite umwihariko wo kuba zijya gusa nk'ingagi ariko nanone ku rundi ruhande ugasanga ntabwo arizo neza.

Inzovu abashakashatsi bagaragaje ko ishobora kuyihemukira rimwe, ubundi ikabyibuka nyuma y'imyaka magana abiri, bitewe n'uburyo iba yarakubitse ahantu.

Muri Parike y'Igihugu y'Akagera bavuga ko harimo udusumbashyamba ndetse benshi bakunze kwita ishya, utu tunyamaswa tukaba dukunze kurangwa n'amahoro ndetse tukazira uwaduhugabanya.